Mu ikaragiro ry'amata, hakaba hari na kantine aho turuzimo ji, imigati iteretse mu kabati, ndetse na keke, hakaba n'amamverope bapfunyikiramo abantu, hari umukobwa uhagaze uri kuvugira kuri telefone, imbere ye hateretse ijage, hanyuma hirya hari ahantu babikamo amata, hari umuntu uri gusuka amata mu ndobo.

Hoteri demiri iherereye dawuni mu mujyi wa kigali ikaba itwaye iminota 20 uturutse ku kibuga cy'indege cya kigali uhagera. Ikaba ifite ibyumba 104 birimo aho gukorera siporo ikaba igira n'aho barara. Ikaba ariya hoteli ndende mu Rwanda.

Turi kubona supa maketi aho bari kutwereka ibintu birimo byinshi bitandukanye, aho dufitemo imigati, ikirugu bakoresha ku minsi mikuru cyane cyane kuri noheri, tukagiramo ibikarito by'amajuyisi, tukagiramo amafirigo, turi kubonamo icyapa kigaragaza aho aherereye ibiryo, hakaba harimo na interinete y'ubuntu.